Umurima mugari uri mu ibara ry'icyatsi. Urimo umuntu uhetse ipombo, arimo acucira ibihingwa biwurimo.

Iyi shusho iragaragaraho umumama wicaye. Afashe ingashyi mu ntoki. Ari kuyobora ubwato mu gishanga kirimo amazi.

Icyuzi cy'amafi kigaragara inyuma y'abantu bicaye bafite amafi mu ntoki ndetse n'andi ateretswe ahabugenewe amajije kurobwa.

Icyuzi gifukuwe neza, kizwi nk'aho kororera inyamaswa zibera mu mazi ariko inyinshi ziba ziribwa nk'amafi ndetse n'ubundi bwoko.

Iyi ni ifoto igaragaza umurima munini iyo uteyemo ikawa zigiye ziteye ku mirongo iteganye kandi izo kawa zifite amabara y'icyatsi.

Abantu batatu bari gusoroma icyayi ni abagabo babiri n'umugore umwe, icyayi kiri mu ibara ry'icyatsi bari gusoromera mu bitebo bitandukanye.

Umurima mugari uteyemo igihingwa cy'icyayi, gikunzwe ku isi yose, urimo abagore batatu barimo kugisoromera mu bitebo.

Uruhurirane rw'amakarito ari mu mabara atandukanye, y'umweru ndetse n'amabara ya orange yanditsweho vetosi makumyabiri.

Iyi ni ishusho igaragaza imiti itandukanye y'inyamaswa, hagaragaraho ishusho y'inka, n'indi miti iri mu macupa y'umweru.

Amacupa menshi ari hamwe asa n'umukara, imifuniko yayo itukura, yometseho ibirango biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ibigori bihinzwe mu murima munini ndetse harimo abantu batandukanye abagabo ndetse n'abamama. Muri uwo murima baje kubisura.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu gikorwa cyo gutera ibiti, bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka bigabanya.

Umurongo mugufi ugizwe n'abantu batanu bari kugendera hagati mu murima, harimo umugore wikoreye inkwi, inyuma harimo umugabo ufashe umupanga mu ntoki.

Mu ibara ry'icyatsi igihingwa kigaragaramo ko kiri kwera, ndetse ari kinshi gitandukanye kikaba gifasha.

Uyu ni umurima w'ibijumba nk'igihingwa kiboneka hose mu gihugu ni ikinyamafufu kirimo bitera imbaraga, kandi kidahenze kuba cyabonwa na buri umwe wese.

Iyi ni ishusho igaragaraho urupangu rw'amatafari ahiye, rukoteye n'isima, iruhande rwaho hakaba hari kurandarandsho igihaza gifite amababi y'icyatsi.

Ikibaya kigari kigaragaramo ibihingwa byinshi biteye hamwe biri mu mabara y'icyatsi, bikaba bitanga umusaruro bikanunganira ababihinga mu buryo bwo kubonana amafaranga.

Abantu benshi bari mu mirimo y'ubuhinzi mu gishanga. Bahinga umuceri nk'igihingwa ngandurarugo.

Imboga nyinshi ziri hamwe, imineke, karoti, kokombure, ibigori, bigafasha umubiri mu kurinda indwara.

Igihingwa kizwi nk'umwumbati giteye mu murima mugari ndetse umurima urimo ibyatsi bitemwe.

Iyi ni ifoto igaragara ko iyo imisozi itandukanye, hagati y'iyo misozi, ni myinshi harimo itaba rirombereje rikomeje rigenda imbere.

Ishyamba rigari rigizwe n'ibiti. Akamaro k'ibiti ni ukuyungurura umwuka duhumeka, bigafata n'ubutaka, biturinda isuri.

Ibiti by'imbuto za pome zeze zirimo zisarurwa n'abantu babiri, zikaba ari imbuto nziza zifasha umubiri.,

Umurima w'amatunda azwi nk'urubuto rufite ingirakamaro mu mubiri wa muntu nko kurinda uburwayi no kongera intungamubiri mu mubiri.

Umurima w'amashu urimo umugabo ufashe rozwari mu ntoki arimo avomerera amashu ayarinda kuba yarabwa n'izuba.

Itiyo iturukamo amazi ifashwe n'umugabo wambaye ingofero y'ubururu ndetse n'umweru n'umupira wa rakosite arimo avomerera ibihingwa biteye mu murima.

Umubare mwinshi w'inka ziri hamwe mu rwuri zirisha ibyatsi, ziri mu mabara atandukanye y'umweru n'umukara ndetse n'umweru gusa.

Iyi foto iragaragara inguru iryamye, ingurube ni inyamaswa itanga umusaruro ndetse igatanga n'ifumbire.

Inkoko nyinshi ziri mu mabara atandukanye y'umweru ndetse avanze n'y'umukara, ziri hamwe zitora ibyo kurya zahawe aho ziba kugira ngo zibashe kuba zatanga umusaro.

Inka nziza ziri mu mabara y'umweru n'umukara, zikaba ari inyamaswa zitanga umukamo, ifumbire ndetse n' muco Nyarwanda zikaba zifashishwa mu gihe cy'imisango y'ubukwe nko gukwa.

Umugabo mu mpuzankano izwi nk'igisarubeti wambaye agapfukamunwa ndetse ufite serenge ibamo urushinge mu ntoki, afashe ku nka iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru agiye kuyitera umuti.

Inyamaswa z'ishyamba nk'inzovu eshatu ziri kugenda, inyamaswa nini ipima ibiro byinshi mu zindi nyamaswa zose zibaho kuri iyi si.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye harimo inzovu, igisamagwe, otirishi, imparage, intare ndetse n'imvubu.

Iyi ni ishusho iriho inyamaswa yo mu ishyamba, ihagaze ahantu hari ibyatsi by'icyatsi, ifite amabara y'umukara n'umweru, ku maguru ndetse no mu maso hayo.

Ikibaya kinini kizwi nk'ubutayu, kirimo inyamaswa, zizwi nka Otirishe, ziryamye hamwe mu butayu.

Amazi magari abamo urusobe rw'ibinyabuzima ariko hejuru yaho haragaragara ibishuhe biyagendera hejuru bifite iminwa y'umweru.